Mu rwego rwo guteza imbere, umutekano ndetse n'imibanire myiza y'abaturage mu banyarwanda, ndetse n'ahandi hose ku isi, hari inama zigenda zikorwa, zigira hamwe icyakorwa mu kugira ngo umutekano w'ibintu ndetse n'abantu mu gace runaka, bibashe kuba byazamurwa bikagera ku kigero cyiza.

Umutekano w'ibintu ndetse n'umutekano w'abantu binyuzwa mu mazi biri muri bimwe urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano muri rusange rwashyizemo imbaraga. Aho usanga rukorera no mu mazi mu buryo bwo kubungabunga umutekano w'abantu ndetse n'ibintu binyuzwa mu mazi.

Kamera zo mu muhanda kenshi zitwa nka sofiya zifashishwa mu gupima umuvuduko ibinyabiziga bikoresha moteri biri kugenderaho nka moto n'imodoka. Izi kamera rero zipima umuvuduko iyo muvuduko warenze zibasha kuba zafotora purake cyangwa se ikirangantego cy'ikinyabiziga zikabasha kuba zatanga igihano.

Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ruzwi ku izina rya polisi, aho mu Rwanda tubyita polisi y'u Rwanda, ruri mu nzego zifasha abaturage kubaho neza rubacungira umutekano wabo ndetse n'ibyabo.

Itsinda ry'abantu bihurije hamwe, biyemeza ndetse banabihemberwa kuba bacunga umutekano, w'ibintu n'abantu b'igihugu, aho usanga bitwa izina ry'inkeragutabara.

Amahuriro y'abantu ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye, biri muri bimwe mu bifasha abantu abaturage nyarwanda, kuba bagira umutekano wabo ubwabo, ndetse n'ibyo batunze bityo igihugu kikagumya gutera imbere.

Umutekano w'ibintu ndetse n'uw'abantu biri muri bimwe mu byatijwe imbaraga cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abashobora kubuza umutekano abantu ndetse n'ibyabo bahabwa ibihano, nko gufungwa ndetse n'ibindi.

Umutekano w'ibintu n'abantu by'abakoresha umuhanda wa kaburimbo, uri muri bimwe mu bikorwa bikorwa na polisi y 'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda , aho bayobora ibinyabiziga imodoka, amamoto babirinda gukora impanuka.

Ihuriro ry'abantu bo mu ngeri zitandukanye cyangwa se mu byiciro bitandukanye, bahuriye hamwe biga ku kintu runaka bakarebera ibibazo bikibabuza, kuba batera imbere cyangwa icyo bakora neza ndetse banarebera hamwe, ibisubizo n'ibibazo ndetse n'imihigo yeshejwe n'ibyo bagombaga kugeraho.

Ihuriro ry'abantu ririmo ingeri zitandukanye; abakuze, abana ndetse n'urubyiruko, ni bimwe mu bifasha abaturage kuba bakicara hamwe, bakigira hamwe icyabateza imbere, uburyo bwo gushyiraho umutekano wabo nu w'ibintu batunze.

Abaturage bahuriye ahantu hamwe bateze amatwi ubarangaje imbere bafata nk'umuyobozi cyangwa uhawe ijambo ako kanya ,akenshi bikorwa n'abaturage bo mu Rwanda iyo bari mu nama zibahuza nko mu midugudu, mu murenge n'utugari ,bashaka ibisubizo bya bimwe mu bibazo bihari ndetse no gufata ingamba zi...

Mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda bimwe mu bikoresho byakoreshwaga n'abo hambere biracyaba mu nzu mberamuco harimo nk'urusyo, ingasire, inkoko ndetse n'igiseke.

Imitako ndetse n'ibindi bikozwe mu bikoresho gakondo, aho bafata ibyatsi by'ishinge, bakabasha kuba babohamo ibiseke ibitebo ndetse n'ibirago, aha akenshi bigaragaza ndetse bikanasigasira umuco nyarwanda.

Igikoresho akenshi gikoreshwa mu muco nyarwanda kizwi ku izina ry'icyansi, ni igikoresho cyifashishwa, ndetse hambere cyakundaga kwifashishwa cyane bakinyweramo amata.

Imiseke ndetse n'ibindi bisigasira kandi bigaragaza umuco nyarwanda, biri muri bimwe mu byo abantu bakora, bikaba byabafasha gutera imbere, kandi bidakuyeho ko urubyiruko rw'ubu rwakwibagirwa umuco nyarwanda.

Gusigasira umuco nyarwanda, ntabwo bikorwa gusa no kwibuka amateka y'ibyaranze u Rwanda, ahubwo habamo no gusigasira ibikoresho, bimwe byakoreshwaga mu myidagaduro y'abanyarwanda bo hambere, harimo nk'inanga yakoreshwaga bacuranga, ndetse n'ingoma.

Mu muco Nyarwanda habagaho ikintu bita kujya mu rubohero . Aho igitsina gore , abagore abakobwa ndetse n'abangavu , bahuriraga hamwe bakiga gukora imitako nk'ibiseke ndetse n'ibindi bakoraga baboshye.

Imbyino zizwi ku mbyino z'intore n'imbyino gakondo, aho zabyinwaga n'abagabo, cyangwa se abasore, babaga bambaye inshabure hasi bafashe icumu mu kuboko kw'iburyo, ndetse n'ingabo mu kuboko kw'ibumoso, byose bikaba byarakorwaga mu gusigasira umuco Nyarwanda n'ubu bikaba bigikorwa.

Ingobyi kimwe mu bikoresho cyakoreshwa mu muco nyarwanda, aho cyakoreshwaga n'abantu bane, bagikoreshaga bahekamo umwami cyangwa se umwamikazi, ariko na none kikaba cyarakoreshwaga gihekwamo umugeni ajyanwa ku mukwe.

Agaseke, kimwe mu bikoresho byo mu muco nyarwanda byifashishwaga n'abantu babaga batuye bagenzi babo bagize ubukwe, cyangwa se abagize ibyago, mu buryo bwo kwihanganisha. Kiri muri bimwe mu byifashishwa na none mu mbyino z'umuco nyarwanda.

Gusigasira umuco Nyarwanda harimo gusigasira ndetse no kubungabunga ibikoresho byakoreshwaga mu muco Nyarwanda nk'igisabo , icyansi, umuvure , ikirago ndetse n'ibiseke.

Ibirago bimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda aho byakoreshwaga nk'uburyamiro aho umwami cyangwa se undi muntu uwo ari we wese yashoboraga kuba yacyisasira cyangwa se akacyiyorosa mu buryo bwo kwirinda imbeho.

Imbyino nyarwanda, ni zimwe mu mbyino zisigasira umuco nyarwanda, aho usanga abazibyina ku gitsina gabo bitwa intore, aho usanga bazibyina bambaye ishabure hasi ndetse bafashe icumu, mu kuboko kw'iburyo ndetse n'ingabo mu kuboko kw'ibumoso.

Bimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda n'ubu ngubu biracyakorwa, mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda aho usanga habaho ububoshyi bw'ibirago, byashoboraga kuba byakwifashishwa nko gukingaho ku nzu, ndetse nanone bikaba byakwifashishwa nk'uburyamiro.

Urusyo ndetse n'ingasire ni ibikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda, byifashishwa gusya imbuto zirimo nk'amasaka, ibigori ingano, byifashishwaga mu kwenga imitobe cyangwa se inzoga.

Inkono, kimwe mu gikoresho cyakoreshwaga mu muco nyarwanda, gitekerwamo; cyangwa se intango, kimwe mu bikoresho byakoreshwaga n’Abanyarwanda bo hambere banyweramo inzoga, babaga bakamye bishimira umusaruro wabo.

Gukenyera ni bimwe mu bigikorwa, ubu ngubu mu gihe cy'imisango, byo kuba basaba umugeni, gukenyera ku bagabo, akenshi bikoreshwa n'abagabo mu gihe barimo barasaba umugeni, mu ruhande rutari urwo mu muryango wabo.

Iyugi ni kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'intore zirimo zirabyina zigaragaza umuco nyarwanda. Iki ni igikoresho kizirikwa ku kuguru kw'intore cyangwa se ku maguru abiri y'intore, maze uko zikubita umudiho nacyo kikagenda kivuga gitanga ijwi riryoheye amatwi.

Ibikoresho gakondo bikorwa cyangwa se bibohwa, bivuye mu byatsi by'ibimerarano. Harimo nk'ibirago, ibiseke ndetse n'indi mitako, biri muri bimwe mu bifasha gusigasira umuco nyarwanda, ndetse bikanafasha ababikora kuba bakwiteza imbere.

Kimwe mu gikoresho cyakoreshwaga naba hambere banyweramo inzoga mu gihe babaga barimo baraganira cyangwa se baca imigani n'ibisakuzo. Ni agacuma cyangwa se igicuma, igicuma rero si igikoresho kibazwa cyangwa se gikorwa, ni igikoresho gihingwa.

Igiseke ni igikoresho akenshi muri iyi minsi cy'iterambere, gikoreshwa n'abantu batwerereye, cyangwa se batuye bagenzi babo bagize ibirori, cyangwa se bagize ibyago, mu buryo bwo kubihanganisha, ariko ni igikoresho cyo mu muco nyarwanda.

Uducuma ndetse n'imiheha yatwo, biri muri bimwe mu bikoresho byo mu muco nyarwanda. Aho wasangaga utu ducuma tunywererwamo inzoga n'abantu bakuru, nk'abakuze mu gihe barimo baraganira nijoro.

Ububoshyi bw'imitako ibiseke ndetse n'ibirago, biri muri bimwe mu bikoresho byahoze mu muco nyarwanda, aho umukobwa wese wamaraga kuba umwangavu yajyanwaga mu rubohero ,kugira ngo abashe kuba yakwiga iyi mirimo.

Abantu bahuriye hamwe biganjemo igitsina gabo. Harimo abasaza, abasore ndetse n'abana batoya. Barimo barakina igisoro, kimwe mu mikino cyangwa imwe mu mikino yo mu muco nyarwanda, yakinwaga n'Abanyarwanda bo hambere.

Ubworozi bw'inka buri muri bimwe mu bifasha ikiremwamuntu kubaho neza, aho inka ziduha amata, amata afasha abantu mu kubaho neza akaba akungahaye ku ntungamubiri, zifasha umubiri gukura neza ndetse ukomeye.

Ububoshyi n'umwuga wahozeho mu muco nyarwanda, aho wasangaga abagore ndetse n'abakobwa bageze mu gihe cy'ubwangavu barawukoraga, bakawukorera ahantu bitaga mu rubohero aho baboheraga ibikoresho bitandukanye; nk'ibirago n'ibiseke, byose byakoreshwaga mu muco nyarwanda, n'ubu bigakoreshwa mu buzima bwa muntu bwa buri munsi.

Umwirongi kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu muco nyarwanda, mu myidagaduro. Aho wasangaga mu ntore zirimo zirabyina, habaga harimo n'abarimo barazicurangira umwirongi.

Gukama ibitoki hakoreshejwe ibirenge ndetse n'ibyatsi byitwa ishinge , ni kimwe mu bikorwa bikorwa n'abaturage Nyarwanda , batuye akenshi mu cyaro . Aho babikora bashaka gukuramo umutobe wo kunywa ndetse rimwe na rimwe hakaba havamo urwagwa.

Kuboha ikirago biri muri bimwe mu mirimo mu muco nyarwanda yakorwaga n'igitsina gore, aho babyigiraga aho bitaga mu rubohero, ariko ubungubu abenshi bakaba babikora mu buryo bwo kwiteza imbere, aho baboha ibirago bikagurwa n'abantu.

Inka mu muco nyarwanda ni itungo ryubahawa, cyane cyane ubwoko bw'inka z'inyambo,q zizwiho kugira amahembe agoretse hejuru kandi maremare, izi nka rero zikaba zubahwa mu muco nyarwanda, kuko bivugwa ko zizi kubana n'ikiremwa muntu neza.

Gusigasira umuco ntibiba mu magambo gusa cyangwa se mu kubika ibikoresho byakoreshwaga nko hambere, ahubwo harimo n'imbyino gakondo, aho zabyinwaga n'intore.

Imbyino gakondo ziri muri bimwe bifasha abantu ndetse n'igihugu kuba umuco Nyarwanda wakomeza gusigasirwa ntiwibagirane. Aho usanga ku bakobwa bashobora kuzibyina bambaye inshabure, amayogi, ibinigi ndetse banateze urugori.

Kubungabunga umuco nyarwanda ntago biri mu kubungabunga ibikoresho byakoreshwaga gusa, ahubwo harimo n'imbyino gakondo aho abantu babyina nk'intore. Aho ababyina imbyino nyarwanda bitwa intore, abavuza ingoma bakitwa bakaraza baba bafite n'ababaririmbira. Hanyuma umuco nyarwanda ukabungwabungwa neza.

Ububoshyi cyangwa se gukora imitako itandukanye, ndetse n'ibikoresho by'umuco wa kinyarwanda, bimwe mu bikorwa n'abantu, kugira ngo hasigasirwe umuco nyarwanda, ndetse babashe no kuba byabinjiriza amafaranga.

Mu buryo bwo gusigasira umuco nyarwanda, hari ingoro y'umwami yabagamo, ndetse hakaba n'inka y'inyambo nk'itungo ryubashywe mu muco nyarwanda, kuko zizi kubana n'abantu neza.

Kogosha byahozeho mu muco nyarwanda ,ariko bikaba byarahindutse aho mu muco nyarwanda, abasore ndetse n'abagabo bogoshwaga amasunzu ,kimwe mu kimenyetso cyagaragazaga ko batangiye ikigero cy'ubugimbi cyangwa se bakuze.

Mu muco nyarwanda igitsina gore ni abantu bari bafite inshingano zo kwita ku miryango, mu buryo bw'imirire n'isuku. Aho wasangaga nko mu guteka hakoreshwaga amashyiga yabaga ari amabuye atatu atondetse neza, bakaba baterekaho inkono mu gihe cyo guteka.

Iterambere ry'umuntu rijyana n'uko afite ubushobozi bwo kuba yabona amashanyarazi, cyangwa yabona uko acana. Kuko urumuri rufasha umuntu mu kuba yakora byinshi no kuba yakwiga byinshi mu mikorere ye ya buri munsi.

Gucana amashanyarazi akomoka ku mazi, biri muri bimwe bigaragaza iterambere ry'ahantu. Aho usanga agira ibikoresho bitandukanye nk'agakoresho kitwa mubazi, kakwereka umuriro usigaje mu gucana.

Amatara amwe mu ibikoresho by'ikorabuhanga, bifasha kuba byasakaza urumuri ahantu hari amashanyarazi, akaba afasha abantu kubona mugihe hari umwijima.

Kimwe mu gikoresho, cyifashishwa n'abakoresha amashanyarazi y'ibikomoka ku mazi, aho usanga kifashishwa mu kuba cyahindura imbaraga z'ibyaturutse mu mazi, kikabihinduramo amashanyarazi akoreshwa, acanira abantu ndetse anakoreshwa mu bindi bikorwa.

Uburyo bwo gusakaza amashanyarazi mu baturage biri muri bimwe mu bifasha igihugu gutera imbere, ndetse no kugira umutekano uhagije. Aho usanga, mu buryo bwo kugira ngo abaturage bose bagerweho n’amashanyarazi, bakoresha ibiti cyangwa se ikindi kintu gihagaze gifatishwaho insinga, mu buryo bwo kugira ngo insinga zibe zifashwe, maze hirindwe impanuka zikomoka ku mashanyarazi.

Mu buryo bwo kwagura serivisi ndetse n'ubucuruzi bunogeye bw'izo serivisi zitangwa habaho kuba harwanwa ruswa, ndetse no kuba bakora amahugurwa cyangwa se ubukangurambaga bubuza abantu guhabwa no gutanga serivisi mbi. Mu buryo bwo kugira ngo abantu bose biteze imbere banatezanye imbere bateze imbere n'igihugu.

Amatorero n'amadini ari muri bimwe mu bifasha igihugu kuba cyakwiteza imbere. Aho usanga amatorero n'amadini, agaburira ubwonko bw'abaturage kwitwara neza muri sosiyete ndetse no kubana neza.

Amacumbi yo mu bitaro ndetse n'ahandi hose mu bigo nderabuzima hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Ari muri bimwe mu byatejwe imbere, kugira ngo umurwayi ajye avurwa atahe amerewe neza, aho kurembera mu rugo.

Amatorero n'amadini biri muri bimwe mu bifasha abantu muri sosiyete kubana neza, aho usanga bahigira ibintu bitandukanye harimo :nko kubana neza muri sosiyete , gufasha, kudacirana imanza ndetse n'ibindi.

Ubuhunikiro ni inzu zashyizweho zifasha abahinzi ndetse n'abaguzi, kuba babika neza umusaruro wabo w'ibyakomotse mu buhinzi, aho biba bifite umutekano, kugira ngo birindwe udusimba tubyangiriza ndetse n'abajura.

Ibikorwa remezo bya Leta ndetse n'inyubako za Leta harimo nk'izikorerwamo cyangwa se izitangirwamo serivisi za Leta. Nk'ibiro by'utugari ndetse n'imirenge, biri muri bimwe mu byorohereje umuturage kuba yabona serivisi za Leta bimworoheye.

Ibikorwaremezo harimo, nk'amazu ya guverinoma, insengero ndetse n'izindinzu zitangirwamo serivisi z'imiyoborere myiza ku baturage, ziri muribimwe byateje imibereho, myiza ya muntu imbere.

Umusaruro w'ibikomoka ku matorero n'amadini harimo kuba mu matorero n'amadini abaturage bahigira kuba babana neza; bityo bikaba byagabanya urugomo amakimbirane ndetse n'ubugiranabi muri sosiyete.

Ishyirwa mu bikorwa cyangwa se iyubakwa ry'ibikorwa remezo, riri muri bimwe mu bifasha umuturage kuba yabaho neza, ndetse bikanazamura ireme ry'ubucuruzi mu Rwanda, aho usanga imihanda yifashishwa n'ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa ku masoko, cyangwa se ibyambukiranya imipaka.

Inyubako za Leta ndetse na Guverinoma ni inyubako zifasha abantu kuba babona serivisi zitandukanye ziva muri Leta, nk’ubutabera, kubona ibyangombwa by’ubutaka, ndetse n’ibindi.

Iikorwa remezo ndetse n'inyubako za Leta ndetse n'iz'abaturage , biri muri bimwe mu bifasha imibereho ya muntu kubaho neza , aho usanga ibikorwaremezo birimo ibibuga by'umupira , amazu ya Leta . Biri muri bimwe mu byifashishwa n'abaturage kuba bakwiteza imbere.

Iterambere ry' amashuri rijyana n' iterambere ry' igihugu, aho usanga umunyeshuri wize neza asoza kwiga akaba yashaka ikimuteza imbere, bitewe n' ubumenyi yakuye mu ishuri bikaba byafasha igihugu kuba cyatera imbere ndetse nawe akiteza imbere.

Ubwubatsi bw'ibikorwa remezo by'imihanda, buri muri bimwe mu bifasha ubucuruzi n'izindi serivisi ikiremwamuntu gikenera buri munsi, kwihuta no kugenda neza, aho bifasha abantu kuba bagera ku mavuriro byoroshye ndetse n'ibindi.

Ihuriro ry'abantu bibumbiye hamwe barimo bariga ku kintu runaka nk'aho biga ku cyabateza imbere ku cyatuma umutekano wabo ndetse n'ibyo batunze kiyongera. Biri muri bimwe mu bifasha abaturage muri sosiyete kubana neza kuko usanga akenshi imyanzuro ifatwa mu nama bayigiramo uruhare.

Ibiganiro bikorwa n'abaturage bo mu ngeri zitandukanye . bigakorerwa mu midugudu iwabo cyangwa se mu duce batuyemo, aho bibafasha kwigira hamwe icyabateza imbere, kubungabunga umutekano, ndetse no kuba babana neza muri sosiyete.

Inama cyangwa se ibiganiro bikorerwa mu baturage. Aho usanga abaturage bamwe na bamwe batanga ibitekerezo ku cyakorwa, ku cyakosorwa bikaba byabafasha mu mibereho yabo myiza.

Uburenganzira bwa muntu buri muri bimwe mu byitabwaho cyane mu Rwanda, aho usanga abaturage bahurira hamwe bakiga ku burenganzira bagenewe, ndetse haba hari uwahohotewe akaba yahabwa ubutabera mu ruhame.

Uburenganzira bwa muntu, biri muri bimwe mu bifasha abaturage kuba babaho neza, aho babaho cyangwa se baba bigira hamwe uburenganzira bwabo, bityo bikabarinda kuba bahohoterwa.

Ubutabera bwabereye ku midugudu ndetse n'iburanisha ribera hagati mu baturage, buri muri bimwe mu byatejwe imbere aho byagaragayeko bufasha, mu gukemura ibibazo hagati mu baturage.

Abaturage bahuriye hamwe, barimo bariga ku ngingo runaka, nk'amahoro, umutekano, byose bibakorerwa mu gihe ibyo byose, iyo bishyizwe mu bikorwa, umuturage abaho neza ndetse akabasha no kuba yakwiteza imbere, mu buryo bwagutse, nta gihunga cy'umutekano muke.

Uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu binyabiziga binini, biri muri bimwe mu byashyizwemo imbaraga na Leta y'u Rwanda, aho usanga bica akajagari ndetse bikanafasha abantu kuba bagera aho berekeza bakoresheje igihe gitoya, kandi ari umubare nyamwinshi.

Ishyirwa mu bikorwa ryo gushyiraho ibinyabiziga bifasha umubare munini w'abantu kuba bavanwa mu gace kamwe berekeza mu kandi, biri mu bifasha kugabanya akavuyo k'ibinyabiziga mu mihanda ndetse no kuba byafasha kurinda umutekano w'abantu, ndetse n'ibintu byabo bijyanwa muri ibyo binyabiziga.

Urugendo ndetse n'ubwikorezi bw'ibintu n'abantu bukorerwa mu mazi. Bukorwa ahenshi n'ubwato, aho usanga ubwato bufasha abantu ndetse n'ibintu kuva ahantu hamwe bujya ahandi, mu nzira y'amazi.

Ishyirwa mu bikorwa byo kubaka ibikorwa remezo birimo n'imihanda biri muri bimwe mu bifasha abanyarwanda kuba bakwiteza imbere, aho usanga iyo banyuze mu mihanda myiza bibafasha kuba bagera ku masoko ndetse no mu mirimo yabo ya buri munsi byihuse, kandi mu buryo bw'umutekano nta mpanuka zihabaye.

Ishyirwa mu bikorwa ryo gushyiraho icyanya cyahariwe gutegerwamo ibinyabiziga, bivana abantu n'ibintu byabo mu gace kamwe bibajyana mu kandi. Ni bimwe mu byagabanyije akavuyo ndetse bikanongera umutekano w'ibintu n'abantu, bava mu gace kamwe bajya ahandi.

Ihuriro ry'amamodoka cyangwa se ikusanyirizo ry'ibinyabiziga rifasha abantu kuba batega ikinyabiziga, kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi, biri mu byatejwe imbere mu buryo bwo kugabanya akavuyo ndetse n'ubujura bw'ibintu n'abantu bike...

Ishyirwa mu bikorwa ry'ihuriro ry'ibinyabiziga bitwara abantu ku rugendo runini, aho bishobora kubatwara biva mu karere kamwe bijya mu kandi cyangwa mu ntara imwe bijya mu yindi, biri muri bimwe mu byashyizwe mu bikorwa hirindwa akavuyo mu mugi, ndetse binafasha abaturage kuba babona uko bava mu gace kamwe, bajya mu kandi biborohereye no mu......

Iyubakwa ry'imihanda myiza biri muri bimwe mu bifasha abantu kuba bakora urugendo runini neza kandi bitabashije kuba byahungabanya ubuzima bwabo. Ndetse bikanafasha abacuruzi kuba bavana ibicuruzwa byabo ahantu hamwe babijyana ahandi, binyuze mu muhanda utabishyira mu byago.

Kimwe mu nzira zitamenyereye gukoreshwa cyane, ariko nanone zikoreshwa n'abantu begereye ibiyaga cyangwa se imigezi, aho bakoresha ubwato bambuka bava ku kirwa kimwe cyangwa se bajya ku kindi.

Imodoka zitwara urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi wa kigali cyanga ahandi mu Rwanda, akenshi beshi bazitaga nka shirumuteto, kuko haba harimo n'abantu baba bahagaze, haba harimo abantu benshi, izi modoka akenshi zashyizweho mu kugabanya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'akavuyo mu muhanda.

Imihanda nyabagendwa ikoreshwa n'abaturage benshi, iri muri bimwe mu bikorwa remezo leta yurwanda yashyizemo imbaraga, aho usanga harubatswe imihanda myiza ifasha ibinyabiziga kuba byagenda neza, bityo hakiririndwa impanuka n'ibindi byose byahungabanya umutekano w'umuturage mu gihe arimo aranyura mu muhanda.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, biri muri bimwe bifasha abantu ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi, kuba byatera imbere, aho usanga hari ibinyabiziga nk'imodoka bifasha abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi, mu gihe gitoya.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibintu byinshi, ibicuruzwa byinshi kibivana mu gihugu kimwe, kibijyana mu kindi, cyangwa se kibivana ahantu hamwe, kibijyana ahandi ,akenshi kizwi ku izina ry'ikamyo. Kikaba gifasha mu bucuruzi aho gitwara ibicuruzwa nta nkomyi.

Mu buryo bwo koroshya ingendo ndetse no kugabanya akajagari, cyangwa se akavuyo mu mijyi, hashyizweho ibinyabiziga binini bishobora gutwara umubare w'abantu munini. Bifasha abantu kuba bava mu gace kamwe bajya mu kandi byihuse kandi bafite umutekano.

Ishyirwaho cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ryo gushinga ihuriro ry'aho amamodoka haba hazwi ku izina rya gare, aho bifasha abantu kuba babona amatike cyangwa se ibyangombwa by'ingendo byoroshye. Kandi bazi n'aho babisanga birinda akajagari mu mujyi ndetse n'ubujura mu bantu.

Ishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa remezo birimo nko kubaka umuhanda, biri muri bimwe mu byafashije abaturage kuba bakwiteza imbere. Aho usanga hari abakoresha imihanda mu buryo bwa buri munsi bwo kuba bakwiteza imbere.

Abanyonzi muri rusange ni abantu batwara amagare batwaraho ibintu nabantu, bafasha abantu kuva mu mwanya umwe cyangwa mu wundi mu buryo bwihuse. Rero abanyonzi ashobora kuba yarize cyangwa atarize ariko mu bukangurambaga duhabwa na leta, agomba kuba azi amategeko y'umuhanda, kuko ahurira mu muhanda n'ibindi binyabiziga birimo nk'imodoka na moto

Mu buryo bwo guteza imbere bimwe mu bifatwa nk'imyitozo ngororamubiri ,ndetse bikanafatwa nk'akazi ka buri munsi gafasha abantu kuba bakwinjiza amafaranga ,ndetse no mu mibereho myiza harimo n'imikino y'amaboko izwi ku izina rya vole

Amasiganwa y'amagare, imwe mu mikino ifatwa nk'imyitozo ngororamubiri ndetse ikaba ari n'akazi kinjiriza abagakora amafaranga ya buri munsi .Ni bimwe rero mu bifasha ababikora kuba bakwiteza imbere ndetse bagateza n'igihugu cyabo imbere.

Imikino y'amaboko ikinirwa ku mucanga, abenshi bazi nka vore, ni umukino watejwe imbere mu Rwanda, aho usanga hari abantu bawukora nk'umurimo wa bo wa buri munsi, bininjiriza amafaranga, aho kugira ngo bawukore nk'imyitozo ngororamubiri gusa.

Umukino w’amaboko ukinwa hagati y’abantu babiri, bakoresheje umupira mutoya, baba bakubita bahererekanya ku mpande zombi uzwi nka tenisi, uri mu mikino itunze abantu kandi ibinjiriza amafaranga.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina rya vore ukundwa n'abagabo cyangwa se abagore, uri muri bimwe mu bifasha abawukina kwiteza imbere, ndetse ukanabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, ubaha amafaranga.

Imwe mu myitozo ngororamubiri ndetse ikaba n'imikino itunze abayikora. Ariko si byo gusa, ikaba inatanga ibyishimo ku bayireba bafana impande ebyiri zitandukanye, aho ni nk'umukino w'umupira ndetse n'ibindi.

Imikino y'amaboko ni imwe mu mikino ifatwa nk'imyitozo ngororamubiri, ariko nanone ikaba yaratejwe imbere ku gitsina gore aho abagore na bo bashobora kuyikora nk'umwuga wa buri munsi, ushobora no kubinjiriza amafaranga abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Amasiganwa y'amagare, ari muri bimwe mu bifasha ababikora kwiteza imbere, si'byo gusa ndetse bikaba binatanga agaciro ku muntu wese waba utwara igare, hakaba hatangirwamo n'amahugurwa, ndetse n'inyigisho zitandukanye mu gihe cy'amasiganwa.

Imikino y'amaboko ishobora gukorwa n'abagabo cyangwa se abagore. Iri mu byatejwe imbere, aho byaje gusanga ko ari umugabo cyangwa se umugore, ashobora kuyikora nk'akazi ka buri munsi, kamwinjiriza amafaranga kandi kakamutunga.

Ishyirwa mu bikorwa rya siporo nk'umwuga ushobora gutunga abantu mu mibereho yabo ya buri munsi, ubinjiriza amafaranga. Mu gihugu cy’u Rwanda, biri muri bimwe mu byafashije bamwe kwiteza imbere, babikora nk'umwuga.

Imyitozo ngororamubiri izwi nka siporo, si ukwiruka gusa, cyangwa gutarura ibiremereye nkuko abenshi babikora, ahubwo habamo; nko gukina umupira w'amaguru, akenshi na byo bikorwa nk'umwuga winjiriza abantu amafaranga.

Imikino y'amaboko ikorerwa ku mazi , akenshi izwi ku izina rya vore. Ifasha abafite ibikorwa remezo bikorera ku mazi , kuba yabinjiriza amafaranga mu buryo butandukanye , aho abasuye ibikorwa remezo ndetse n'abahiyakiriye bashobora gukenera gukina iyi mikino , bityo bakabasha kuba bakwishyura.

Siporo ni imwe mu myitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora mu buryo bwo kugira ngo akomeze abeho neza, agaburire ubwonko neza, agaburire umubiri neza, kugira ngo mu byo akora byose akomeze agire ubuzima bwiza.

Imikino y'amaboko iri muri bimwe mu byatezwa imbere mu Rwanda ku gitsina gore, aho umukino nka basiketi abenshi bawukora nk'umwuga wa buri munsi ubinjiriza amafaranga. Ukabafasha mu mibereho yabo myiza ya buri munsi.

Umwe mu myitozo ngororamubiri, ndetse unafasha abantu kuba basusuruka ni amasiganwa y'imodoka, aho usanga abayakora bahembwa bahabwa igihembo kuwatsinze, ndetse bikaba n'imyidagaduro ku baba bari ku ruhande, barimo barakurikirana ayo masiganwa.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina rya vore, uri mu mikino ikinwa n'igitsina gore kandi byaje kugaragara ko, igitsina gore kiwushoboye cyane kikaba gifasha abawukora gukora, imyitozo ngororamubiri ndetse kikaba kinakorwa nk'umurimo wa buri munsi, ushobora kubinjiriza amafaranga.

Umukino w' umupira w' amaguru ni umukino, ufasha abawukora kuba batera imbere ariko na none bakaba bashobora, no kuwukora nk' imyitozo ngororamubiri ushobora kubafasha kubaho neza, bifasha imikaya y' umubiri kuba yagororoka.

Umukino ukinwa n'abantu bahanganye ku mpande zombi, ukaba ukinwa n'abantu babiri. Aho bawukina bakoresheje agapira gatoya, ndetse n'ikindi gikoresho kibafasha kuba bahererekanya agapira ku mpande zombi.

Ibibuga by'imikino biri muri bimwe mu bifasha abakora imwe mu mikino kwiteza imbere. Ndetse no kwihugura mu mikino bakora, kuko bamwe muri bo usanga babikora nk'umwuga wa buri munsi ubinjiriza amafaranga.

Abaturage bahagaze ahantu ku gasozi barimo barakurikirana igisa n'aho ari isiganwa ry'imodoka, mu by'ukuri biragaragara ko bishimye, ariko haragaragara ivumbi ryinshi rishobora kubateza zimwe mu ndwara z'ubuhumekero nk'uko turi kubibona kuri iyi foto.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa umuntu atwara igare, ni imwe mu myitozo ngororamubiri ifasha amaguru kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Imyitozo ngororamubiri izwi ku izina rya siporo, iri muri bimwe bifasha mu kubaho neza kuruhura umubiri, ndetse no kugorora imikaya y'umubiri, bikamufasha kuba yakora neza.

Imikino y'amaboko iri mu byatejwe imbere ku gitsina gore mu Rwanda. Aho idafatwa nk'imyitozo ngororamubiri gusa, ahubwo inafatwa nk'akazi ka buri munsi, kinjiriza abagakora amafaranga.

Imyitozo ngororamubiri, ikorwa n'abantu harimo no kuba bakina umupira w'amaguru, bibafasha kwiteza imbere kuko hari abo usanga babikora nk'akazi ka buri munsi, ndetse bakaba bakoze n'imyitozo ngororamubiri icyarimwe.

Umukino w'amaboko uzwi ku izina rya vore ni imwe mu mikino yatejwe imbere, aho usanga ikinwa n'igitsina gore, aho gukinwa n'igitsina gabo gusa. Iyi mikino rero ikaba ifasha abayikora kuba bayikora nk'imyitozo ngororamubiri, ndetse kandi bakaba bayikora nka kimwe mu mwuga ubabeshaho ubaha amafaranga mu buzima bwa buri munsi.

Bimwe mu bifatwa nk'imikino cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aribyo siporo. Biri mu bifasha ababikora buri munsi nk'umwuga kuba byabinjiriza amafaranga. Bityo bikaba byateza imibereho yabo myiza imbere.

Imyitozo ngororamubiri ndetse ikaba n'imikino ikinishwa amaboko ni bimwe mu byatejwe imbere ku gitsina gore mu Rwanda. Aho bamwe babikora nk'umurimo wa buri munsi ubinjiriza amafaranga ndetse bikanaba bikorwa nk'imyitozo ngororamubiri kuri bo.

Imihanda y'umukara cyangwag se icy'abandi bita nka kaburimbo kiri mu bintu bimwe mu byatejwe imbere aho akenshi byashyizwemo mu midugudu ndetse n'utuyira dutoya tw'abaturage, aho usanga bifasha mu bucuruzi ndetse n'ubuzima bwiza, aho byorohereza abaturage kujya kwivuza ndetse no kuba bajyana ibicuruzwa byabo ku masoko byoroshye.

Imihanda yubakwa mu midugudu, akenshi ifasha mu iterambere ry'abaturage, aho ibafasha mu kuba bageza ibicuruzwa byabo ku masoko nta kibazo, aho bibafasha mu iterambere ry'amashuri, aho abana bashobora kugera ku mashuri nta kibazo, kandi bihuse.

Iyubakwa ry'ibikorwa remezo harimo nk'imihanda biri muri bimwe mu bifasha abantu muri rusange, abanyarwanda kuba bagenda mu buryo bworoshye kandi hirindwa impanuka za hato na hato.

Inzira zicibwa mu midugudu ziri muri bimwe mu bifasha abaturage ndetse n'abandi kuba bagirirwa umutekano w'ibinyabiziga bihanyura ,bityo hakiririndwa impanuka za hato na hato. Ndetse bikaba binafasha igihugu cyose kuba ikinyabiziga gishobora kugera ahantu runaka hatabayeho imbogamizi z'uko nta muhanda w'umukara cyangwa se wa kaburimbo uhari.